Umugabo uhetse ijerekani irimo umuti w'imyaka, wambaye isarubeti n'agapfukamunwa, uri gutera umuti mu murima w'ibigori kugira ngo abirinde udusimba tubyonona.

Abantu benshi bari ku cyuzi cyororwamo amafi, umwe ahetse umwana, abandi barahagaze, undi ahagaze mu mazi, inyuma yabo hari ibiti.

Umugabo wambaye isengeri y'umweru, uhagaze ufite ifi nini mu ntoki, uri iruhande rw'icyuzi, gikikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara ufite indobo itukura irimo ibiryo by'amafi wunamye uri kugaburira amafi ari mu cyuzi.

Abahinzi bavuye gusarura, barimo abagore n'abagabo, bikoreye ibyibo birimo ibyo bavuye gusarura, bari guca mu kayira kari hagati mu murima w'icyayi.

Umugore uhagaze mu muma w'ikawa, uri gusoroma ikawa rimusumba, kugira ngo ajye kurigurisha, abone amafaranga.

Umugabo uhetse umufuka munini uri kugenda hagati mu kayira karimo mu murima w'ikawa avuye gusoroma ikawa.

Abagabo batatu b'abahinzi bari mu murima w'ibigori, baje gusarura ibigori byeze iruhande rw'ibigori hameze ibyatsi byinshi bitoya.

Umusore uhagaze iruhande rw'ikiraro cy'inka cyubakishijwe ibiti gisakajwe amabati, kirimo inka ziri kurya ubwatsi.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo, bikoreye ibitebo birimo imyaka, bavuye gusarura, imbere yabo hari umugabo ufite igare, rihetse imyaka.

Umurima munini, uhinzemo umuceri, uri iruhande rw'umurima uhinzemo ibigori, iruhande rw'imirima hateye ibiti birebire.

Umugore wambaye ingofero uri mu murima, uri kuvomerera imyaka kugirango ibashe gukura neza, izagire umusaruro uhagije.

Umugabo unanutse wambaye ingofero na bote uhagaze mu murima urimo imyaka yumye ufite umupira mu ntoki uri kuvamo amazi ari kuvomerera imyaka.

Amazi magari y'ikiyaga akikijwe n'imisozi n'ubutaka buteyeho ibiti byinshi n'ibyatsi.

Umusozi muremure, ufite amaterasi, uteyeho n'ibiti, hepfo y'umusozi hari amazu menshi y'abaturage n'ibiti birebire ndetse n'imirima iteyemo imyaka.

Inka z'amabara atandukanye, ziri kurisha mu byatsi birebire, iruhande rwazo hahagaze umushumba wazo, uri munsi y'igiti kirekire.

Ikiganza cy'umuntu kirimo imbuto z'ingano, kiri kuzishyira mu murima kugira ngo zizere zivemo umusaruro.

Umugabo wambaye ingofero n'ishati y'amaboko magufi ufite inkoni mu ntoki uhagaze mu cyumba kibikwamo imyaka, inyuma ye harunze imyufuka myinshi irimo imyaka.

Abaganga benshi bari mu cyumba cy'ibagiro, bambaye udupfukamunwa n'ingofero ndetse n'imyenda y'akazi, bari kubaga umurwayi uryamye ku gitanda.

Inka nyinshi ziri hamwe zifite amahembe maremare, zitwa inyambo, zateranyirijwe hamwe, kugira ngo bazihure, ziri kumwe n'abavuzi b'inka.

Inyamaswa yitwa inzobe iba mu ishyamba ihagaze mu ishyamba rifite ibyatsi bitoshye n'indabyo z'amabara atandukanye n'ibiti birebire.

Ishyamba rinini cyane ry'ibiti n'ibyatsi birebire ririmo imodoka ya ba mukerarugendo iritambuka iri iruhande rw'inka.

Ishyamba rinini ririmo ibidukikije byinshi bitandukanye, harimo impara n'imparage, riteyemo ibiti n'ibyatsi birebire.